Bare ubona ko irimo inzoga zitandukanye aho abaturage baza kuganirira bari gufata icyo kunywa, hano ushobora kuzanamo n'umuryango wawe mukaganira mugakora inama muri gufata icyo kunywa bityo mukabasha kugira ubusabane n'urukundo biteza imbere umuryango wanyu.

Inzu ya bare, aho ushobora kuza ukiyakira mu gihe wumva ushonje, mu gihe wumva ushaka icyo kunywa, ukazana n'umuryango wawe hano mukiyakira, mukishimisha, mukaganira ,mukungurana ibitekerezo, musangirira hamwe.

Inzu y'ubucuruzi butike icururizwamo n'umukobwa. Uyu mukobwa acuruza amavuta atandukanye twakwisiga kugira ngo uruhu rubashe kubobera; kugira ngo turinde uruhu rwacu indwara ndetse n'amavuta y'imisatsi bityo tujye dukoresha amavuta yagenzuwe n'inzego zibishinzwe.

Hoteli iteka ibiryo, ikagira n'ibyo kunywa bitandukanye ibihiye n'ibidahiye, ikagera aho icumbikira urujya n'uruza rw'abantu baje bayigana baje gushaka serivisi muri iyi hoteli, tujye turya ibiryo bifite isuku kuko ni ingenzi ku buzima bwacu.